Abana b'abakobwa bicaye mu ishuri mu ntebe, inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho. imbere ku ntebe, hariho amasahane y'ibiryo akawunga kari kumwe n'ibishyimbo.

Abana b'abanyeshuri bafite ibikombe bose bari kunywa amazi, bambaye iinifomo zisa, abakobwa imipira yabo ni ubururu, abahungu bambaye amakabutura n'imipira y'umukara.

Umuryango w'umugore n'umugabo n'umwana bigaragara ko bazanye umwana wabo kumuteresha urukingo, umubyeyi yambaye umwitero w'abasilamu, umugabo yambaye ishati y'amaboko maremare y'uturongo ducikaguyemo.

Umubyeyi uri ku ivomero ahagaze akenyeye igitenge, yambaye umupira urimo amabara atandukanye ubururu, umweru, afashe ku ivomero hariho ijerekani.

Umubare w'abana benshi batandukanye bicaye bakoze uruziga, hagati yabo hashashemo imisambi, inyuma yabo hari n'ababyeyi bambaye imipira y'ubururu abana n'indi isa umuhondo.

Ni umubyeyi wajyanye uruhinja rwe kwa muganga kugira ngo barushyire ku munzani. Bamenye ibiro by'umwana. Kuko ibiro ni bimwe mu byerekana ubuzima bw'umwana uko buhagaze.

Abantu benshi bari mu ihema bose mu maso yabo bigaragara yuko banezerewe harimo n'abashinzwe umutekano, icyo bahuriyeho bose bari gukoma amashyi ku ruhinja rwavutse.

Abantu benshi barenga cumi n'umunani bahagaze imbere y'inyubako ku kabaraza, sima isize ibara ry'umutuku. Bose bameze nk'abagiye gufata ifoto.

Ni urugomero ruhurizwamo amazi agiye aturuka ahantu hatandukanye rwubatswe mu buryo bw'uruziga, aho amazi ahuriramo hagati.

Muri gahunda ya leta harimo kugenda mu baturage bagenda bubaka amavomero ahantu hagiye hatandukanye umwana uri ku ivomero amazi ari kumanuka mu kiganza cyiwe nawe akayanywa yambaye ikabutura isa umutuku n'umupira wa gisirikare.

Ni abana bane bari ku mugezi, umugezi w'amazi atemba, bose bashyize indobo zabo mu mazi hasi bari kuvoma.

Abagabo babiri bakuru bari gusuhuzanya, umwe ni muremure undi ni mugufiya, umwe yambaye ikote ry'umukara n'undi yambaye ikote ryererutse.

Umujyanama w'ubuzima, yicaye ku ntebe yambaye bote z'umweru, ipantaro y'umweru, ishati y'amaboko magufi, imbere ye hari umubyeyi wicaye mu ntebe y'ubururu afashe umwana.

Umwana uri ku mugezi w'amazi, wambaye ishati isa icyatsi, yambaye n'ikabutura. Ari gukaraba intoki. kuri robine.

Imiryango yo mu giturage iri ku ivomero. Abadamu babiri bahuriye ku ndobo isa ubururu, bari kuyikura ku ivomero kuko yuzuye amazi.

Ni umugore uhagararanye n'umusaza ubyibushye wambaye ikote bameze nk'abagiye kwifotoza, inyuma yabo hari ibyapa bigiye biriho amafoto y'abana n'ababyeyi.

Ni umwana bigaragara yuko yaravuye kuvoma. Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umweru n'ingofero isa n'umupira ari kumukorera. Umuzungu wambaye ijuri yerurutse afite telefone ari kumufata amafoto.

Ababyeyi bahagaze imbere y'inyubako ifite igisenge cyubatswe n'amategura, igikuta cyayo cyubatswe n'amatafari ahiye, benshi muri bo b'imbere bambaye amajiri gusa bambaye n'ibitenge benshi.

Abadamu bari mu ishuri ryigishirizwamo abana bakiri batoya, bari ku murongo barishimye, umwe yifashe mu mayunguyungu, nka kumwe abana bato bajya bifata, inyuma ye hari imeza n'abandi badamu bari guseka.

Umwana w'umukobwa uhagaze wambaye iherena afite ibinika mu ntoki imbere ye hari umuhungu wambaye isengeri y'umukara wunamye n'ikabutura isa umuhondo, hasi hari indobo y'ubururu bisa nkaho agiye gukaraba.

Umwana w'umukobwa wicaye ari kureba imbere, intoki ziwe ziri gukarabira ku ivomero, inyuma yiwe nanone hariyo amajerekani abiri asa umuhondo n'indi isa ubururu.

Yunisefu ni umuryango mpuzamahanga ukora mu buryo bwo kurinda abana no kubungabunga imibereho y'abakiri batoya cyane cyane mu bihugu bitifite mu bukungu.

Igitsina gore ni bamwe mu bashyizwe imbere mu buyobozi bw'ibanze cyangwa bwo hejuru, abadamu babiri bicaye mu cyumba kiberamo inama inyuma y'abo hari amadarapo ya unicef.

Umuganga uri hagati y'imbaga nyamwinshi, yambaye itaburiya y'umweru, ipantaro isa kake, inkweto z'umweru, abamwegereye baramuzengurutse, we ahagaze hagati yabo.

Ni umwana mutoya w'umukobwa w'umunyeshuri, bigaragara yuko ahagaze imbere yakandagira ukarabe iriho ibasi isa n'icunga ari gukaraba amaboko ye.

Abana bane harimo umuhungu umwe n''abakobwa batatu, bisa nk'aho bari imbere bari gukina ikinamico, umuhungu yambaye ipantaro y'umukara, abakobwa babiri na bo bambaye ijipo z'imikara.

Ni ku ivomero. Umugabo umwe arahagaze ari kureba umwana wicaye, ari guterura indobo ifite ibara ry'umuhondo, ari gushaka kuyikorera, robine zifite iminwa ine.

Ni umwanya wahariwe abaganga kabuhariwe mu gukurikirana abaturage ko nta cyorezo cyaba cyabaziye, uburyo bambaye amashashi y'ubururu n'utunozasuku mu mutwe n'agapfukamunwa na ga, bimeze nk'aho bari gupima icyorezo cya covid nineteen.

Abantu babiri bicaye hasi. Inyuma yabo, hari icyapa cya SIDA. Umwe ni umuforomokazi, yambaye ishati y'umweru n'agapfukanwa k'umweru. Igitabo kinini, ari kwandika.

Amavomero menshi aba ari ahantu hagiye horohereje buri muturage wese kuba yahagera akabona amazi, intoki z'umuntu uri gukaraba amazi ari kuva mu itiyo.

Umuryango wishimye uri ku ivomero risize irange ry'ubururu, umubyeyi yicaye ari koza umwana wicaye mu ibasi, abandi barahagaze bari kumureba.

Icyumba cyagenewe kuberamo inama, kirimo abantu benshi, abicaye ku meza hariho igitambaro cy'umweru, umwe afite mudasobwa abandi bameze nk'abakurikiye.

Icyumba cyagenewe kwakirirwamo abarwayi kwa muganga, hari umuforomokazi wambaye igitambaro cy'umuhondo mu mutwe n'agapfukamunwa ari kureba mu mashini yifashishwa muri icyo cyumba.

Abana b'abanyeshuri benshi bari kumwe n'abayobozi babo bambaye inifomo zifite amashati y'umweru n'amakabutura y'ubururu, bose bahuriye kuba bamanitse impamyabumenyi zabo mu kirere.

Icyumba gikorerwamo inama, kirimo abantu barindwi, imbere yabo bamwe bafite mudasobwa, harimo abambaye ikote n'undi wifashe ku mutwe wambaye ishati y'amaboko maremare, irimo imirongo.

Umwana mutoya wambaye ubusa hejuru, iruhande rwiwe hari intebe ifite ibara ry'ubururu, ari ku mugezi yateze ibiganza ari kunywa amazi.

Ni abantu bicaye mu cyumba gikorerwamo inama, bahuriye hamwe, umwe arahagaze yambaye umupira w'umuhondo, abandi bicaye bazengurutse.

Ni abakozi b'abakoranabushake ba unicef umuryango ufasha abana, bambaye imipira isa, bamwe muri bo, babiri bambaye imipira y'amaboko maremare y'umukara.

Umwana w'umuhungu mutoya wambaye ikabutura y'icyatsi, ishati y'amaboko maremare akunje isa ubururu, ari gukaraba intoki mu mazi aturuka mu ndobo isa umweru.

Abakobwa babiri b'abangavu bari ku ivomero, bari guhererekanya indobo y'amazi mu maso yabo bafite ibyishimo byinshi, umwe yambaye inifomo undi yakenyeye igitenge.

Abantu bari mu cyumba cyo kwa muganga, bigaragara yuko banezerewe kuko mu maso yabo bose bafite ibitwenge. Icyo bahuriyeho, barambuye amaboko bose, barimo barabyina.

Umwe mu bajyanama b'ubuzima, yicaye imbere y'ubusitani ari gupima umwe mu babyeyi bicaye ku ntebe uko umutima we utera akamenya n'umuvuduko biriho yambaye itaburiya y'umweru.

Ni icyapa kiriho abana babiri umwe ari guseka arishimye cyane, undi afashe ijaga ari kumusukira amazi mu biganza, yambaye ishati y'amaboko magufi itukura.

Abakozi b'abakoranabushake bakorera mu muryango wa Unicefu, bahagaze ari abantu barindwi. Bamwe bambaye imipira y'ubururu, abandi bambaye imikara. Bahagaze nk'abari kwifotoza.

Ni urugomero rw'amazi rugiye rufite aho ruhuriye n'izindi zose zubatswe mu nziga, zigenda zikora akazi ko kuyungurura amazi.

Ni umubyeyi bisa nkaho aturutse ku ivomero, yikoreye indobo itukura, mu kuboko kw'iburyo afitemo indobo y'umuhondo, akenyeye igitenge, yambaye n'ishati y'amaboko magufi.

Icyumba kiberamo inama kirimo ameza azengurutse aho abantu bicaye inyuma yaho, hagati harimo umudamu wambaye ikote ry'umukara n'ikanzu igera ku mavi.

Ni abantu bari ku ivomero ryubatswe mu bishanga, muri ya gahunda ya leta. Rimwe rikunze kwitwa nayikondo bavoma ba pompa. Hariho amajerekani menshi n'umuntu umwe wambaye imyenda y'ubururu, uhagarariye abandi bose baje aho.

Abana batoya b'abanyeshuri, bari imbere y'ivomero, umwe muri bo ari kuvoma amazi aza mu kiganza, agahita ayanywa. Abandi bari kumureba.

Leta mu buryo bwiza bwo kugeza amazi ku baturage bose mu gihugu, ikoresha inzira zo kugenda yubaka amavomero mu biturage, abanyeshuri bari kuvoma amazi ku ivomero mu ndobo.

Ni umubyeyi uri ku ivomero afashe ijerekani isa umuhondo, arimo avoma amazi, yambaye ingofero y'ubudodo mu mutwe n'umupira w'amaboko maremare, akenyeye igitenge.

Kwigisha ni bimwe mu mico myiza. Umugabo wambaye ijiri isa ubururu bwijimye, umupira w'umutuku, afite igitabo mu ntoki ari kwereka umwicaye imbere yambaye ingofero y'Abasilamu.

Imbaga nyamwinshi y'abakozi bakora mu kigo nderabuzima, bahagaze bose biteguye nk'abagiye gufotorwa, bambaye amataburiye asa bafite n'ibibaranga mu ijosi.

Leta yagiye yubaka amavomero ahantu hagiye hatandukanye mu byaro. Amwe n'amwe yagiye ashyirwa mu bishanga. Abantu bari kuvomera ku ivomero ryitwa nayikondo, imwe bakoresha bagenda bapompa.

Icyumba cyo ku kigo nderabuzima cyagenewe kwakirirwamo ababyeyi bazanye abana babo kubapimisha, umubyeyi umwe arahagaze acigatiye umwana mu rubavu, afite n'ifishi yo kwa muganga.

Icyapa kiriho ikirango cy'umuryango ufasha abana, hariho umwana uri kumwe na nyina mu murima, umwana yambaye umupira usa umweru, ari kumwenyura mama we amuri inyuma, na we ni uko ari guseka.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama, cyicayemo abantu mu buryo bukurikira: imbere hicaye abantu batandatu, iruhande rwabo hari indangururamajwi, imbere yabo hari indi mbaga y'ababakurikiye.

Ni abana benshi bari ahantu hamwe, bigaragara y'uko muri bo nta n'umwe ufite ibyishimo, ku maso yabo hari kugaragara amarira, bateze n'intoki nk'abari gusaba.

Ni umusazi w'igitsina gabo uhagaze ku muhanda, inyuma ye hari imodoka y'igikamyo, afite agafuka mu kuboko kw'iburyo ashigatiye n'akandi gafuka ibumoso.

Icyumba kiberamo inama, giteyemo intebe ziri mu miterere y'uruziga. Hagati harimo ababyeyi, ku ruhande hariho abicaye gusa hari intebe zigiye ziticaweho.

Icyumba gitegurirwamo inama, harimo imeza ziteye mu buryo buzengurutse, abantu bicaye inyuma y'izo meza, hagati harimo umudamu wambaye ikanzu y'umuhondo n'ikoti ry'umukara.

Umusaza ugaragara ko ari mu za bukuru mumaso yiwe herekana yuko afite ibyishimo akamwenyu ku munwa yambaye ishati y'ubururu umwitero w'umuhondo ingofero y'ibyoya.

Ni umwana mutoya, bigaragara yuko afite agahinda gakabije, yikoreye amaboko ku mutwe, mu maso yiwe hari kumanukamo amarira.

Ni abantu batatu, umwe ni umugabo abandi babiri ni igitsina gore, uwo hagati bigaragara yuko arwaye afite ikibazo cy'inzara bari kumutsindagiza.

Abantu bahuriye mu gikorwa cy'ubukwe cyangwa cy'indi misango yose, iyo hari ikibazo cy'indwara bifashashisha kwambara udupfukamunwa tukabarinda kuba umwe yakanduza undi.

Umubare w'abanyeshuri benshi bigaragara ko bishimye ku maso yabo hariho akanyamuneza kerekanwa n'ibitwenge, ibiganza byabo bose biri hejuru, abahungu bambaye iniforomo zisa ubururu ku ikora, abakobwa amakanzu ni ubururu.

Ni icyapa gisa umweru n'ubururu, kiriho umuntu witwa Uwihoreye Chaste, afite indangururamajwi, ari kuvuga ku byerekeranye n'ubuvuzi bwo mu mutwe.

Agahinda ni kamwe mu bituma umuntu agenda akiheba , akigunga akaba ari wenyine. Umukobwa wicaye yunamye yifashe mu mutwe, bigaragara ko afite agahinda gakabije.

Umugore w'umuhinzi yikoreye igitebo avuye mu murima, kirimo umusaruro yambaye ikote n'umupira urimo imirongo isa umukara n'indi isa n'icunga, afite isuka mu ntoki.

Ni icyapa gisa umweru kiriho ikirango cy'amashyirahamwe m'u Rwanda mu buvuzi bwo mu mutwe n'abanyeshuri babyiga, hashushanyijeho umutwe w'umuntu hagati.

Ni icyapa kigaragaraho umuganga wambaye itaburiye y'umweru, ari mu kaziga gafite ibara risa nk'icunga, handitseho ijambo rivuga ngo murakaza neza.

N'icyapa gisa umweru kiriho ikirango cy'ikigo gitanga amahugurwa, ndetse n'ubujyanama mu ishoramari ry'urubyiruko mu ikoranabuhanga kikanatanga n'ubumenyi ku isoko.

Ikiranga abana igihe cyose ni uko baba bishimye, baba baseka ku maso yabo ubonaho utumwenyu, abana benshi iyo bahuriye hamwe usanga bafite urusaku rwinshi cyane.

Umudamu bigaragara ko ari mu nama, afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye imyenda idoze mu bitenge by'amabara ameze nk'ay'ingwe, imisatsi iryamye ifungiye inyuma.

Ni umugabo bigaragara neza yuko ari mu za bukuru, yicaye hasi yambitswe amapingu n'inzego zishinzwe umutekano, inyuma ye hari umupolisi wambaye inkweto z'umukara.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru, hasi gifiteho ikirango cy'ikigo gikora imirasire y'izuba, ahagana hasi hariho ikirango cy'ikiziga gifite ibara ry'umuhondo, cyandikishijwemo umukara.

Ni icyapa gisa umweru, kiriho ikirangantego cy'ikigo gishinzwe kuganiriza abantu no kubafasha kugira imitekerereze iteye imbere mu buryo nta mbogamizi.

Icyumba cyo kwa muganga cyicayemo abantu babiri, umwe ni umubyeyi wicaye mu ntebe y'ubururu undi ni umugabo wicaye imbere ye wambaye umupira w'ubururu ari kwandika, kumeza hariho icupa ry'amazi n'igitambaro cy'umuhondo.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho ifite amarangi y'umuhondo, amadirishya arimo ibyuma byinshi, ikagira imbere yaho hari ama esikariye menshi iburyo n'ibumoso.

Ni abakobwa babiri barimo baraganira, umwe yambaye umupira w'amaboko maremare w'umukara n'ipantaro aratebeje, yambaye amarinete; undi yambaye ikoti ry'umutuku n'ingofero...

Ubusanzwe guseka ni kimwe mu bimenyetso byerekana y'uko umuntu anezerewe cyangwa se yishimye. Umukobwa uri guseka wambaye umupira w'umutuku n'undi usa ubururu w'umwirabura.

Imbaga y'abantu benshi banezerewe cyane bigaragazwa n'utumwenyu turi mu maso yabo, bose bahuriye ku gikorwa cyo kumurika amadarapo y'u Rwanda hejuru.

Ni umubyeyi wicaye wasize amaboko ku meza, mu ntoki ziwe afite indangururamajwi bigaragara yuko hari abo ari kubwira, yambaye imyenda idoze mu bitenge iruhande rwe hari umugabo bisa nkaho yarangaye wambaye umupira w'umukara.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba gikorerwamo inama, bari aba UNICEF basa nk'abagiye gukora ifoto, bamwe baricaye abandi barahagaze, imirongo igiye ikurikirana.

Ni umuntu wicaye hasi mu buryo bugaragara ko yambaye ubusa mu kizu kitabamo abantu, birasa nk'aho afite ikibazo mu mitekerereze yo mu bwonko bwe.

Ni abana babiri bicaye imbere y'imeza. Umwe yashyize inkokora ze ku meza, bigaragara yuko afite agahinda. Uwo ku ruhande arimo amuganiriza mu buryo bwo kumuhumuriza.

Ni umuryango wo mu giturage wicaye hamwe ababyeyi batatu umwe muri bo afite ikayi n'ikaramu bisa nkaho ari umugenzuzi imbere ye hicaye umusore wakuyemo inkweto.

Abakozi benshi bari ku murongo utambitse, bambaye imipira isa. Bari kumwe n'abayobozi babo, umwe ari mu kuboko ku iburyo, ni umudamu w'umuzungu. Undi ni umugabo uhagazemo hagati, wambaye karuvati.

Ni umugabo ufite ubwanwa bigaragara yuko yashinyitse amenyo arikugaragara. Afite agakoresho mu kuboko kw'iburyo gakoreshwa barigupima umwanya uri hagati y'amenyo.

Ni umusore ufite ibyishimo mu maso bigaragazwa n'igitwenge ariko afite akadodo mu ntoki zombi kari guca imbere y'amenyo yambaye umupira w'umweru.

Umusore wambaye ubusa hejuru, afite isume ku rutugu rwiwe. Mu ntoki afite urudodo rusa umweru, aho ari kurucisha hagati mu menyo yiwe.

Ni umukobwa uri kumwe n'umubyeyi bari mucyumba k'inama, ari guseka cyane afite ibyishimo, afite urupapuro mu ntoki n'ikaramu ariko umubyeyi uri iruhande rwiwe ari kwandika.

Kwa muganga iyo bakiriye umurwayi ukaba urwaye bagiye kukureba mu menyo cyangwa bagiye kureba uburwayi bwo mu kanwa, hari intebe zabigenewe zizingwa mu buryo bworoshye ku uburyo umurwayi aba yisanzuye.

Ni ishusho yaturutse mu mashini yo kwa muganga yabigenewe mu kwerekana ibice bigize akanwa, haragaragaramo amenyo n'igice cyo ku mazuru.

Igihe cyose ugiye gukoresha amenyo yawe ukata ikintu bigusaba kwigengesera, umudamu ufite urudodo mu menyo bigaragara ko ari gukoresha imbaraga nyinshi arukata.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bugezweho bw'amajyambere, igeretse inshuro eshatu, yubakishijwe ibirahure mu gice cy'imbere, iruhande ni amadirishya.

Umwana muto ufite akamwenyu mu maso, bigaragara ko afite ikibazo cy'amenyo hari umuganga ushinzwe kumwitaho afite igikoresho iburyo, gifite urushinge afite n'ikindi ibumoso gifite uruziga.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo ubushakashatsi aricyo cyitwa raboratwari, kirimo umuganga wambaye agapfukamunwa k'umweru, amarinete yabigenewe itaburiya isa umweru, afite ikaramu mu ntoki agiye kwandika.

Umwana wambaye umupira w'umweru, ari kumwe n'umusore mukuru na we wambaye umupira w'umweru n'imisatsi isutse. Bafite urudodo ruri guca mu menyo yabo.

Umusore bigaragara y'uko ari gukoresha imbaraga nyinshi, mu gihe afite urudodo mu ntoki rusa umweru, ari kugenda arucisha hagati y'amenyo, yambaye n'umupira ufite ibara ry'umweru.

Ni icyapa cy'umweru kiriho igisubizo cy'ishusho yavuye mu mashini yo kwa muganga yifashishwa mu gupima mu kanwa, cyangwa gusuzuma amenyo. Irikugaragaza n'igice cyo ku mazuru.

Umuntu wasamye amenyo ye yose ari kugaragara, mu ntoki afite igikoresho cyifashishwa mu gufata amenyo mu bundi buryo gikomeza amenyo.

Umusore w'umunyafurika akiri mutoya ugaragaza ibyishimo mu maso yiwe, afite akamwenyu, yiteye umwenda w'umweru, umupira w'amaboko maremare ari mu cyumba cyagenewe kwakirwamo abarwayi kwa muganga.

Umusore uryamye ku gatanda ko kwa muganga, bamwambitse ibintu ku menyo arasamye, umuforomokazi afite ibikoresho, arimo aramusuzuma amenyo.

Umusore w'urubyiruko wambaye umupira usa umweru ari kwireba mu ndorerwamo, afite ibyishimo mu maso bigaragazwa n'igitwenge, afite akadodo agiye kugashyira mu menyo.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bamwe bicaye n'abahagaze ariko ubona yuko bose bahuriye mu gikorwa cyo gufata ifoto, harimo n'ab'abazungu, abicaye harimo uwambaye ikote.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru, mu maso y'iwe afite ibyishimo bigaragazwa n'akamwenyu, intoki z'iwe ziri kwerekana amenyo. Umusore uri iruhande rw'iwe yambaye umupira w'umweru, isume ku rutugu y'umweru, na we afite ibyishimo mu maso.

Ni umusaza bigaragara ko ari mu zabukuru, yambaye umupira w'amaboko magufiya, ikora risa ubururu. Mu maso afite ibyishimo byinshi cyane arimo arakina.

Umusaza ugaragara ko ari mu zabukuru, ufite ubwanwa burimo imvi, yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ikora. Afite ikirahure mu kuboko kw'iburyo kirimo amazi, ikiganza kindi kiri kwakira ibinini umuganga ari kumuha.

Umusaza bigaragara ko ari mu zabukuru, wambaye umupira w'amaboko maremare ufite amabara ya gisirikare, umusatsi n'imvi, ari kumwe n'umukecuru uriko uramusingiza wambaye agapfukamunwa.

Abantu b'abagabo babiri bari mu myitozo ngororamubiri, umwe yambaye ikote risa umweru ipantaro isa umukara, uwo ku ruhande rw'iburyo yambaye umupira w'umweru n'umupira w'umukara ku rutugu n'icupa ry'amazi.

Umumama usa nk'aho ukuzemo, uri kumwe n'umuganga ufite stethoscope mu ijosi, yambaye ishati y'amaboko magufi, isa ubururu, umubyeyi afite inkoni.

Umuryango w'umugore n'umugabo, umusaza ari guseka cyane afite ibyishimo mu maso, mu ntoki ze afite icyuma n'ikanya yabishyize ku isahane, mu gihe umugore afashe ikanya agiye kurya.

Ni umukecuru wicaye hasi, afite igitambaro mu mutwe, bigaragara yuko atetse. Ishyiga ririho isafuriya isa umukara, ipfundikijwe n'iyindi bisa.

Umuforomokazi ushinzwe kwita ku bantu bakuru, mu myitozo ngororamubiri. Yambaye sitetosikope mu ijosi, itaburiya y'umweru. Ari kumwe n'umugabo w'umusaza ufite ubwanwa, akamwenyu mu maso, yambaye umupira w'ubururu.

Uruziga rugizwe n'imbaga nyamwinshi y'abantu bicaye bazengurutse, umwe yicaye mu ntebe y'umweru yambaye umupira ufite ibara ry'ubururu n'umutuku.

Umuhanda w'igitaka mu cyaro abaturage batandukanye bari kuwugendamo, abakecuru babiri bambaye imikenyero bafite inkoni mu ntoki zabo imipira y'imituku isa.

Ni mu cyumba cyo mu bitaro harimo umusaza uryamye ku gitanda. Afite ubwanwa burimo imvi yambaye ikanzu y'umweru, ku kuboko kwe hafunzeho umugozi uhurijwe n'imashini iri kwerekana ibipimo by'umutima we.

Umusaza uri mu myaka y'iza bukuru wambaye ishati y'amaboko maremare ufite inda yambaye amarinete, ari kumwe n'umuforomokazi umwitaho ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri.

Umusaza yicaye mu cyumba cy'ururiro ku meza hateretseho amasahani ariho imbuto, umuforomokazi afite ikirahure ari kumusukiramo ikinyobwa kiryohera.

Umutoza w'imyitozo ngororamubiri w'umugore, ufite ibyishimo bigaragarira mu maso, akamenyu afite icyuma cya siporo mu ntoki, inyuma ye hari umuzungu w'umudamu nawe ufite icyuma mu ntoki.

Umukecuru bigaragara ko ari mu zabukuru, ari mu gikoni afite ikirahure cy'amazi mu kuboko kw'iburyo, ukuboko kw'ibumoso gufite ibinini. Ari kubyitegereza agiye kubinywa.

Umugabo n'umugore bari mu gikoni, umuzungu ni umugabo, umudamu ni umwirabura. umugabo afashe ikinini bisa nkaho ari we ugiye kukinywa cyangwa agiye kugiha umugore, mu gikoni harimo keto, amacupa y'imiti, rinete n'ibinini.

Umukecuru bigaragara yuko ari mu zabukuru, umusatsi wiwe wajemo imvi. Ari gukora imyitozo ngororamubiri, arambuye amaboko imbere, mu ntoki afite udukoresho tubiri twabugenewe.

Umubare ugera ku icyenda w'igitsina gore, bari ku murongo urambuye, bambaye udupfukamunwa, abenshi munsi y'akananwa. Bambaye inifomo z'umweru n'umukara. Abandi bo ntabwo bambaye inifomo.

Umubyeyi ufite isahani mu ntoki iriho ibiryo mu kuboko kw'iburyo afite ikanya ari guseka cyane arishimye imisatsi yiwe ni imvi yambaye ishati ifite ibara ry'umweru.

Umuganga w'igitsina gore w'umuzungu, yambaye ishati y'amaboko magufi yirabura n'ishati y'amaboko maremare mu imbere, umusatsi urafunze, imbere ye hari umukecuru umanitse amaboko uri gukora siporo.

Umuforomokazi wambaye ishati y'amaboko magufi, ifite ibara ry'ubururu, ari guhereza imiti umukecuru ufite umusatsi usizemo ibara ry'umuhondo.

Umusaza bigaragara ko ari mukuru ufite ubuzima bwiza, yicaye mu ntebe afite inkoni mu kuboko kw'ibumoso yambaye impeta. Imbere ye hari umuforomokazi uri guseka cyane bisa nkaho ari we ummwitaho.

Umusaza bigaragara yuko ari mu zabukuru afite umusatsi wajemo imvi. Yambaye amarinete umupira w'amaboko magufi, ari kumwe n'umuforomokazi w'umuzungu ari kumukoresha siporo.

Agapfukamunwa ni kamwe mu bikoresho bikoreshwa ahantu hagiye hatandukanye, kwa muganga abadogiteri, bakifashisha igihe cyose bari kumwe n'umurwayi bataramenya ikibazo afite cyangwa barimo kumubaga.

Umuryango wicaye mu ruganiriro imbere y'ameza afatirwaho ifunguro umusaza n'umukecuru, umugabo arambuye ikiganza agiye kunywa ikinini, umudamu ari kumusomera amabwiriza, ikirahuri cy'amazi n'agakombe k'imiti, imitako mu ruganiriro.

Ni umubyeyi bigaragara yuko ari mukuru ari mu myitozo ngororamubiri, aricaye arambuye amaguru umutwe bisa nk'aho ashaka kuwukoza mu mavi.

Ni umusaza bigaragara ko ageze mu za bukuru yicaye ku buriri, yambaye ishati y'amaboko maremare n'amarinete, umuforomokazi w'umuzungu ari kugerageza kumuhagurutsa.

Umuryango wishimye uri mu ruganiriro, umubyeyi w'umugabo uri kumwe n'umuhungu we banezerewe cyane bafite inseko mu maso, bari gusoma igitabo.

Icyapa gisa umweru hasi no hejuru. Hagati harimo ibara ry'ubururu, ryandikishijwemo inyuguti z'umweru. Ku ruhande hari umuganga w'umudamu, ufite akanozasuku mu mutwe.

Icyapa gifite ibara ry'umweru cy'ubuvuzi bwerekana ko dukwiye kwizera no guhamagarira uburinzi bukomeye. Umwana uriho w'umuzungu arasamye ari kureba mu kirere.

Ni icyapa kiriho ibirango by'imiryango yo gufasha abana, cyango yo gutabara imbabare. Mu itangazo ryerekana ko uburinzi ku mpunzi bukenewe.

Abantu batandatu ariko umwe muri bo ni uwagize ikibazo, aryamishijwe hasi kuri burankari, abandi batanu ni abashinzwe kumwitaho, bambaye amajiri n'udufukamunwa.

Icyapa gisa umweru kiriho indwara ya DIABETES, ni indwara iterwa no kubura isukari mu mubiri, hari ubwo iba yabaye nyinshi cyangwa se ikaba yaba na nkeya.

Ni umuntu ufite icyapa cyanditseho amagambo avuga virusi ituruka ku nkende, ni inyamaswa ziba mu ishyamba, ariko akenshi zibana n'abantu.

Ni abana b'abakobwa benshi bahagaze mu buryo bw'amatsinda ya batatu, bane, batanu. Bagiye bambaye imipira bose isa y'umweru, bafite n'ibishushanyo mu ntoki bifite imiterere y'urukiramende.

Ni icyapa gifite ibara ry'umweru hasi no hejuru, hariho ikirango cyanditseho ishusho mu ibara ry'umweru, hagati harimo ibara risa n'icunga.

Ni icyapa gifite amabara y'umweru hejuru no hasi kigiye kiriho ibirango bigiye bitandukanye kimwe mu bizwi nk'ikigo gitanga amaraso rbc.

Ikipe y'abantu barindwi barahagaze ku murongo utambitse. Bamwe amaboko ari inyuma, abandi afashe mu mufuka n'abandi ari imbere, bahagaze nk'abagiye gufata ifoto.

Icyumba kiberamo inama. Imbere hariho icyapa gifite ibara ry'ubururu, hicaye abantu bagera muri batandatu, umwe muri bo afite indangururamajwi.

Icyumba cyagenewe kuberamo inama. Umubare mwinshi w'abadamu cyangwa abagore, bicaye hasi n'abahagaze bose bazamuye ibiganza mu kirere bameze nk'abagiye kwifotoza.

Ni icyumba kiberamo inama, hicayemo abantu, imbere hariho abantu babiri bicaye, iruhande rwabo hari indangururamajwi, amacupa y'amazi.

Icyapa gisa umweru, kiriho ikirango cyandikishijwe mu nyuguti eshatu mu mabara atatu: ubururu, umuhondo, icyatsi, ni ikigo kizwi ho ko gitanga amaraso RBC.

Amafunguro dufata buri munsi cyangwa ibiryo, ni bimwe mu bifasha umubiri wacu kugira imbaraga, no kuba ufite ubudahangarwa bwo kurinda indwara, no gukomeza abasirikare bawugize.

Ikirango cya de Gorobo Fandi na Yuniti Eyidi munsi hagaragaza ko bagiranye amasezerano yo gukorana, mu ishusho yo kunoza cyangwa kongera ibikoresho by'ubuzima no kuvugurura ku ndwara nka Sida, ama imfegisiyo na malariya mu bihugu bitifite ku bukungu, ku bufatanye na Afurika hezi agisesi.

Ni icyapa gisa umweru kiriho umwana ufite indwara, cyanditseho twirinde indwara y'ubushita bw'inkende, ni indwara ituruka ku nyamaswa.

Ni abagabo babiri batandukanye, ariko bambaye imyenda isa. Ifite ibara ry'umukara yose. Umwe ni inzobe yogoshe bakase umusatsi mu mpande, undi ntabwo ukase ahubwo afite uruhara.

Ni icyapa kiriho uruhinja rusinziriye, kiri gutanga amabwiriza y'uburyo baganira mu mibereho y'Abanyafurika.

Ni umugabo wicaye wambaye ishati y'amaboko maremare isa umweru n'inkweto z'umukara, imbere ye hari abana b'abanyeshuri bambaye iniforume, n'abahungu bafite amakaruvati.

Ni icyapa cy'umweru kiriho ikirango cya afurika y'iburasirazuba mu rugendo rw'ubushakashatsi mu mibereho n'ikirango cy'afurika y'iburasirazuba mu bumenyi ikirango kimwe kiri mu ibara ry'ubururu icya kabiri kiri mu ibara ry'icyatsi.

Ni abamanseri batatu bari gusuhuzanya n'umugabo umwe wambaye ikote n'isaha ku kuboko abamansera bose bambaye amarinete.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bahuriye hamwe, bisa nkaho bari mu gikorwa cyo gufata ifoto. Bafite imirongo irenga itanu, umurongo w'imbere baricaye, abenshi bambaye amakoti.

Abadamu batatu, umwe ni umuganga yambaye ga n'imyenda isa umutuku, abandi babiri, umwe ni umukecuru bose bambaye amakanzu adozwe mu bitenge.

Ni inyubako yo kwa muganga isize amarangi y'umweru, imbere y'iyo nyubako hari ubusitani burimo ibyatsi bisa icyatsi kibisi n'abantu bahagaze ku kabaraza.

Ni imwe mu nyubako zo mu bitaro, ku gikuta cyitiriwe impinja cyangwa aho ababyeyi bibarukira, iruhande rw'aho hari umuganga wambaye agapfukamunwa, wambaye itaburiya y'umweru.

Ni inyubako y'ubuvuzi, yubakiwe mu gukorerwamo ubushakashatsi bujyanye n'imivurire, yubatswe mu buryo bugezweho, imbere yayo ifite ubusitani n'imodoka iparitse imbere ku muryango.

Umuryango w'icyumba cyo kwa muganga, ufite urugi rusize irangi ry'umweru, igikuta gifite irangi ry'umweru, mu cyumba harimo ibikoresho bikoreshwa kwa muganga n'igitanda cy'umurwayi.

Icyumba cyakirirwamo umurwayi kwa muganga gifite igitanda gifite ibara risa ubururu hashasheho amashuka asa umweru n'imisego y'aho isa umweru, ku gikuta harihoho umutako, iruhande rw'igitanda hariho imashini.

Inyubako y'ibitaro yubatse ahiterereye ifite imihanda yubatswe neza mu buryo bugezweho harimo umwana uri kugenda ufite ibasi y'umukara wambaye inkweto z'icyatsi.

Icyumba cyagenewe gufatiramo ibizamini abantu, harimo imashini yabugenewe, hari n'itara ryo kumurika umuntu, igitanda gitoya kiryamyeho umurwayi.

Umuntu ubana n'ubumuga bwo kutagenda ari mu igare ryagenewe kubafasha mu gihe bari mu rugendo, inyuma ye hari umwana wambaye ikote ari kugenda amusunika basatira mu muryango w'ihema.

Ni icyumba cyo mu bitaro cyagenewe kubagirwamo, harimo umuganga n'umurwayi uryamye ku gatanda, abaganga bambaye amakanzu cyangwa amataburiye yasa ubururu.

Icyumba cy'uruganiriro, kirimo intebe ziri ku meza y'uruziga ruciyemo kabiri n'izindi ntebe bicaraho zimwe zitwa amafuteyeyi, harimo firigo, igikuta cy'aho gisize irange ry'umuhondo.

Ni inyubako yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo ibyuma bikoreshwa mu gukora siporo z'amaboko, bigizwe n'inziga ebyiri.

Ni umwe mu bakurikirana indwara z'ibyorezo, yambaye imyenda y'igisurubeti gifunze hejuru mu maso na bote z'umukara, mu ntoki afite ako agenda ahanagurisha.

Icyumba cyo kwa muganga cyagenewe kubagiramo abarwayi. Gifite imiryango igizwe n'ibice bibiri, kimwe cy'ibumoso n'icy'iburyo bifite ibirahuri, igikuta gisize irangi ry'umweru n'ikirango cyandikishijeho inyuguti z'umweru.

Inyubako yubatswe mu buryo bwiza ifite igikuta gisize ibara ry'umuhondo ryerurutse, handikishijweho amagambo afite ibara ry'ubururu, imbere y'aho hari ubusitani burimo ibiti by'imikindo.

Ubusitani buzengurutswe n'inyubako zisa nkaho ari ku bitaro, imodoka ziparitse ahabigenewe, ubusitani burimo ibiti by'umukindo indabyo.

Ni inyubako yubatswe igeretse kabiri, ikaba ari inyubako yubatswe igenewe ababyeyi ndetse n'impinja kugira ngo abaganga babone uburyo babakurikirana.

Ni amarembo y'ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge, igikuta gisize ibara ry'umweru, imbere yaho hariho ubusitani bukiriho ibyatsi bito.

Ibyicungo ni bimwe mu bikoresho bikoreshwa cyane cyane n'ibigo by'amashuri yigamo abana bato, bigakoreshwa kugira ngo abana barye umunyenga ariko banidagadura.

Ni icyumba cyo mu ruganiriro. Giteguyemo ameza atatu y'inziga. Imwe isa umukara, iya kabiri isa umweru, iya gatatu isa kake. Harimo n'intebe zizengurutse.

Inyubako yagenewe kwakira ababyeyi baje kwibaruka yubakishijwe amatafari ahiye, igisenge gifite amabati y'ubururu, imbere ku nyubako hasizweho irangi ry'umweru, handikishijeho inyuguti z'ubururu.

N'inyubako y'ibitaro, yagenewe gushyiramo ibikoresho byo kwa muganga, bakoresha mu gihe bari gutanga serivisi ku barwayi, igaragara y'uko yambaye ubusa.

Inyubako y'ibitaro yubatswe mu buryo bwa kijyambere mu yindi mvugo uburyo bugezweho, ifite aho imodoka zihagarara harimo imodoka y'umukara, igeretse kabiri.

Ni inyubako yo kwa muganga. Ihurizwamo imashini zigiye zitanga umuriro mu nyubako yo kwa muganga, zifite imirongo ibiri. Umwe w'ibumoso n'undi w'iburyo.

Abaganga bakora mu cyumba cy'ubushakashatsi barimo ari abaganga bane, umwe ateye umugongo aho abandi bicaye bareba, bambaye amataburiya asa umweru, bakambara na ga zisa ubururu mu ntoki zabo.

Ubusanzwe igitanda cyagenewe gufasha umuntu kuruhuka mu bitaro gikoreshwa cyakirirwaho abarwayi baje barembye.

Icyumba kiri mu nyubako yo mu bitaro, gihuriyemo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, bipima indwara z'ubwoko bwose, harimo agatanda gatoya umurwayi aryamaho, hejuru hari n'itara rigomba kumurika umurwayi.

Umwana mutoya w'uruhinja amanitse ku munzani, barimo baramupima ibiro kuko nibyo byerekana ubuzima bw'umwana, umubyeyi arahagaze ari kumureba yambaye ishati ifite ibara risa umweru.

Inyubako yagenewe kwakiriramo ababyeyi baje kubyara, imbere yaho hari abaganga bane bambaye inifomo zisa ubururu mu maso yabo bafitemo udupfukamunwa.

Inyubako bigaragara yuko icurizwamo imiti, aho abarwayi bavuye mu bitaro baza kugurira iyo babandikiye, ifite igikuta gisize ibara ry'umuhondo n'irindi ry'ijimye.

Umuganga wicaye mu cyumba akoreramo, imbere yiwe hari mudasobwa ihujije n'indi mudasobwa ari kureberamo ibisubizo yahawe n'imashini ari gusuzuma umurwayi.

Umuganga w'umugabo usa nk'aho adakuze afite akamenyo mumaso yiwe, yambaye marinette, siteto sikopi ku rutugu, itaburiya y'umweru, afite n'ikayi mu ntoki.

Ni mu cyumba cyo ku bitaro, harimo umubyeyi wibarutse umwana, amushigatiye mu gishura, inyuma yiwe hari umuganga wambaye ishati y'ubururu n'umweru n'amarinete.

Icyumba cyabarwayi mu bitaro kirimo abakozi bashinzwe gukora amasuku umusore umwe yambaye umupira w'ubururu afite n'umweyo ufite ibyoya umudamu yambaye itaburiya y'umweru.

Umuforomo kazi wambaye itaburiya y'umweru, yambaye rinete, ga z'umweru, ari mu cyumba cyagenewe kwakirirwamo abarwayi, arimo afasha umubyeyi uryamye ku gitanda.

Inyubako yo ku bitaro, yagenewe kwakira ababyeyi n'impinja aho babyarira. Imbere yaho hari abantu benshi bicaye hasi, ndetse n'abahagaze. Bigaragara y'uko bagiye kwifotoza.

Ubusanzwe ibitaro byose byo ku isi bigira aho byakirira abarwayi, mu bundi buryo bigira ibyumba bitangirwamo amaserivisi y'abaje bagana ibitaro bwa mbere.

Ni icyapa k'Ikigo nderabuzima, gihagaze imbere y'inyubako gifite ibara ry'umweru, imbere yacyo hari umubyeyi uhetse, abandi bantu bicaye inyuma ku ntebe, hari n'imodoka iparitse.

Icyumba cyo kwa muganga, cyagenewe kwakira abaje bagana ibitaro mu buryo bwihuse, cyane cyane ab'imbabare, hasize ibara ry'umweru ku bikuta no hasi.

Umuforomokazi bigaragara nk'aho akuze, ufite imisatsi irimo imvi, yambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umweru ari mu mashini yifashishwa kwa muganga mu kumesa.

Icyumba cy'ibitaro kwa muganga, byagenewe kwakira abarwayi bafite ikibazo cyo mu menyo cyangwa se mu maso. Harimo intebe eshatu zisa umuhondo, utumeza twagenewe gushyirwaho ibikoresho.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Rwerere, igizwe n'ibice bibiri, igice cyo hasi cyubatswe n'amatafari ahiye, igice cyo hejuru gisize irangi ry'umweru, ku gisenge hariho imirasire y'izuba.

Ni inyubako y'Ibitaro yujujwe vuba. Yubatswe n'amatafari ahiye abenshi bayazi nka ruriba. Ku ruhande ifite inzira zizamuka zijya hejuru kuko igeretse kabiri.

Icyumba cyo kwa muganga cyagenewe kwakira abarwayi bandikiwe kuba mu bitaro, cyangwa kurara mu bitaro, hagaragara ibitanda bine bifite amapine, amarido asa icyatsi, ku gikuta hariho amadirishya maremare, asa umukara afite ibirahuri.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amadirishya agizwe n'ibirahure n'ibiziga mu mpande ebyiri iburyo n'ibumoso imbere yaho hari ibiti bibiri.

Ibitanda ni bimwe mu bikoresho byifashishwa cyane kwa muganga bakira abarwayi baje barembye bakandikirwa kuba mu bitaro. Ibitanda bine bisa ubururu, umweru by'abarwayi bikoreshwa kwa muganga.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo ubushakashatsi, cyubatswe mu buryo bugezweho, gifite igikuta gisize ibara risa icunga, n'imiryango ifite ibirahure.

Ni inyubako yubatswe mu buryo bugezweho igeretse kabiri, Ikigo nderabuzima cya Rurenzi hariho abantu bahagaze hejuru n'abagaragara ku gice cyo hasi.

Icyumba cyo kwa muganga cyagenewe gukorerwamo inama, cyicayemo abantu bari ku mirongo igera muri itanu, imbere hicaye umukecuru wambaye umupira w'umuhondo ukenyeye igitenge gitukura.

Umuhanda werekeza ku kigo nderabuzima uriho bariyeri isizwe amabara y'umweruru n' numutuku, umurinzi yambaye ishati y'umweru mu mugongo ifite ibara risa n'icunga.

Umusaza bigaragara yuko ari mu za bukuru ariguseka cyane yishimye, yambaye amarinete. Ari kumwe n'umuforomokazi wiwe arikumupima uko umutima utera.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cyangwa ibitaro, yubakishije amakaro mu gihanda cy'imbere, izindi mpande zifite amabara y'umuhondo n'ibirahure, hari idarapo ku ruhande.

Ni abakobwa cyangwa igitsina gore batandatu, bahagaze ku murongo utambitse. Bambaye amayinifomu asa hasi no hejuru ni ubururu, udupfukamunwa tw'umweru.

Ni icyumba cyo kwa muganga kirimo agatanda gashyirwaho umurwayi n'imashini yabugenewe, mu gupima abakobwa cyangwa ababyeyi bakekwaho ko batwite.

Abantu batatu bakora kwa muganga, bambaye amashati bose asa ubururu, ni igitsina gore, inyuma yabo hari ibiti bibiri by'imikindo.

Inyubako yubatswe imbere y'umuhanda ukunze kwitwa kaburimbo. Yubatswe n'amatafari ahiye ameze nk'aya ruriba. Imiryango yaho isize ibara ry'umweru, ifite n'ikirango gisa umweru.

Gutanga amaraso ni bimwe mu bigenda bigashyigikira abarwayi batandukanye bari hirya no hino bagize ikibazo cyo kubura amaraso mu mibiri yabo, utubaga tw'amaraso twinshi.

Ni akabati kubatswe mu buryo bugezweho, gafite imiryango y'ibirahure bimwe bya kijyambere, bigaragara yuko kabikwamo ibimenyetso byagiye bigaragara mu bizamini byafashwe.

Icyumba cyo mu nyubako yo kwa muganga gikorerwamo isuzuma ku murwayi waje afite ikibazo cy'umugongo cyangwa ahandi. Igikuta gisize ibara ry'umweru, utubati dusa umuhondo.

Icyumba cyo kwa muganga cyagenewe abantu baje bagana ibitaro, kirimo intebe ziteye ku mirongo itatu ariko ikigaragara harimo abantu batarenze batanu bategereje ubakira.

Inyubako y'ibitaro yubakishijwe amabuye, ikaba ifite akabaraza kagiye kariho imbaho n'impombo zo kumanura amazi, hariho abaganga babiri bari kugenda.

Ni icyumba cy'ibitaro kirwariramo abana. Harimo ibitanda bigiye biteye ku murongo, bifite amashuka asa kake, hariho abana baryamye, umubyeyi umwe yunamye imbere y'umwana we.

Ni inyubako y'ibitaro, igaragaramo intebe z'aho bakirira abantu baje babagana. Ebyiri zifite ibara risa n'ubururu, izindi ebyiri zifite amabara avangitiranye. Inyuma yaho hari ibirabyo.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho bw'iterambere. Ifite aho imodoka ziparika, hahagazemo ubwoko bw'imodoka butandukanye. Inyubako igeretse inshuro enye.

Imbaga nyamwinshi y'abantu batonze umurongo, bari mu cyumba k'inama, bigaragara yuko baje nko kwibaruza, imbere yabo hari imeza, abagabo babiri bicaye ku ntebe n'undi uri mu kagare.

Ni inyubako yubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho bw'amajyambere, ikigaragara ni uko ifite inyubako zigeretse inshuro zigera muri enye.

Ni mu nyubako yo ku bitaro aherekana imiryango igiye ijya mu byumba bikorerwamo amaserivisi agiye atandukanye, ibikuta bisize amarangi y'umweru.

Ni icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini yagenewe mu gupima abantu mu buryo itanga igisubizo cy'ifoto, imashini isa umweru ifite uruziga aho binjirizamo umuntu.

Icyumba gikorerwamo inama giteyemo intebe zikoze mu mbaho ariko hasi akaba ari ibyuma, zicayeho abantu bari ku mirongo igera kuri itatu, imbere ku gikuta hariho urubaho n'abantu bicaye ku ntebe, imbere yabo bafite imeza.

Ni inyubako yo kwa muganga, yubatswe mu buryo bugezweho, ifite ibirahure impande zombi, igiye imanitseho amashusho y'abantu batandukanye.

Icyumba kigaragara nk'aho giteguye ko abantu bagikoreramo, harimo intebe zigiye ziteye mu mpande ebyiri, imeza iteretseho mudasobwa iruhande rwaho hariho akabati.

Inyubako ebyiri, zubatswe mu buryo bugezweho, benshi dukunda kwita izigeretse, zifite amabara y'umweru, igeretse kabiri n'umubare w'abantu benshi, baje gusura ibikorwa remezo.

Ni icyumba cyo mu kigo nderabuzima cyakirirwamo abarwayi bandikiwe kurara mu bitaro, harimo ibitanda bitatu bifite umwenda ufite amabara y'ubururu.

Icyapa cyanditseho ibitaro bya Ruhengeri, kiri mu buso bw'urukiramende, kiri ku cyuma gifite ibara ry'ubururu, igipangu cyubakishije amatafari ahiye, hariho n'ibyuma bisize ibara ry'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga gishinzwe kubika ibizamini biba byakoreye abarwayi, harimo uducupa dutandukanye, tugiye duteretse mu myanya myinshi iburyo n'ibumoso.

Umuforomokazi mu bijyanye no kwita ku mpinja zavukiye kwa muganga wishimye wambaye umwenda wanditseho izina ry'ibitaro, ingofero y'umweru, ga z'umweru.

Inyubako yo mu kigo nderabuzima. Irimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Harimo intebe zifite amapine, hakabaho n'ibitanda bigezweho bimwe bishobora gufungurwa byongerwa cyangwa bigabanywa.

Umusore urimo ukora imyitozo ngororamubiri zimwe muri siporo zizwi nko kugorora umugongo cyangwa se gukora urutirigongo, yambaye isengeri y'umukara, yambaye ikabutura y'umukara.

Ni imashini iri mu bwoko bw'isaha zimwe mu zigezweho, zifashishwa ku bantu bakora imyitozo ngororamubiri mu kugereranya igihe no gupima umuvuduko.

Ni icyapa gisa umweru hasi no hejuru, hagati kiriho cyerekana igikoresho wakwifashisha uri kugabanya inda yawe mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore ugeze mu gihe cyo kunanirwa wari uri mu myitozo ngororamubiri, afite icupa ryiwe ku munwa rifite ibara ry'ubururu ari kunywa amazi, yambaye umupira w'amaboko magufiya, ahetse igikapu gifite ibara ry'umuhondo.

Umugabo w'umuzungu uteruye icyuma kiremereye arimo gukora siporo ubona ko imitsi yikweze hano barakwereka ibiryo bitandukanye umuntu ukora imyitozo ngororamubiri inyama, imbuto, amaporoteyine n'amaji.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, ipantaro ya siporo isa urwirungu aryamishije urubavu rw'iburyo, ari kumwe n'umwe mu bashinzwe kugorora imigongo.

Ni umusore bigaragara ko yari ari muri siporo amaze umwanya munini mu myitozo ngororamubiri, akaba ageze mu gihe cyo kunanirwa afashe icupa ry'amazi ku munwa ari kunywa, isaha y'umukara ku kuboko kw'iburyo.

Umukobwa bigaragara yuko ari mu myaka y'urubyiruko, yarari mu myitozo ngororamubiri agera mu gihe cyo kuruhuka, afite isume y'umweru ku rutugu ari kunywa amazi.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye ikabutura y'umukara n'isengeri, ari kugenda asimbuka, ku ruhande hicaye umutoza w'umugore ni umuzungu.

Abakinnyi aho bava bakagera hose ku isi, barangwa n'impuzankano z'amakipe yabo bakinamo, yambaye nimero makumyabiri na rimwe, inkweto zikina umupira w'amaguru, amasogisi y'umukara.

Umuforomokazi ushinzwe imibereho myiza y'abana, yambaye ijiri isa ubururu n'umupira usa umutuku, mu ntoki ziwe afite akamashini gatanga urumuri, ukuboko kundi gufashe ku mutwe w'umwana.

Imiti igabanya ububabare ni imiti ikoreshwa ku barwayi bose aho bava bakagera kuko buri ndwara ibafite ububabare igiye guteza umubiri, iyo miti iyo uyiguze cyane cyane nko hanze kuyohereza biba ari ubuntu.

Ni umuntu uri mu myitozo ngororamubiri yo kwirukanka, yambaye ikabutura imufashe, inyuma yiwe hariho imbuto zigiye zitandukanye hariho kaperi, amaronji ndetse na pome na karoti.

Ni umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, aho agenda azamura ukuguru agutereka ku rubaho ruri imbere yiwe, yambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umukara.

Umuhanda ukunzwe kwitwa kaburimbo, ufite ibyerekezo bibiri, icyerekezo kimwe kiri kujya iburyo ikindi kiri kujya ibumoso, harimo imodoka iri kwerekeza muri ibyo bice byombi.

Mu gihe umuntu wese ahuye n'ikibazo kijyanye n'ubuzima, hari udukapu twabigenewe tw'ubuvuzi bw'ibanze tuba turimo imiti igiye itandukanye wakwifashisha, waba uri mu rugendo cyangwa uri aho utuye.

Abantu babiri bigaragara yuko bari mu myitozo ngororamubiri, bambaye amakabutura aciye asa umukara, umusore yambariyemo agasa umuhondo bose bafite amacupa mu ntoki zabo.

Ni bantu babiri bari mumyitozo ngororamubiri umwe yambaye ikabutura yumukara numupira utukura, kuruhande hari umutoza wambaye ipantaro n'umupira w'umukara bafite umupira ukinishwa n'amaboko.

Umuntu urwaye uri mu bitaro, aryamye ku gitanda, yambitswe ikimufasha kugenda ku kuguru kw'iburyo kuzinze, iruhande hari umuganga n'umugabo wambaye ikote na karuvati.

Umusore bigaragara ko yari ari mu myitozo ngororamubiri, wambaye umupira w'amaboko magufiya, mu gihe cyo kunanirwa yahisemo guhita afata icupa ry'amazi ari kuyanywa.

Ni ku meza hariho ibinini, hariho imidari, hariho imbuto ari zo imineke, irongi, inanasi.

Umusore bigaragara ko yari ari mu myitozo ngororamubiri kuva mu masaha y'ikigoroba bigaragara ko amajije kunanirwa, ageze mu gihe cyo kunywa amazi ariko yayafashe ari kuyimenaho.

Ihuriro ry'abaganga bari mu cyumba cy'abarwayi, bari gukora itumanaho ry'ikoranabuhanga na mugenzi wabo utari mu mwanya barimo. Abaganga bambaye amataburiya y'umweru.

Mu gihe hari abakora imyitozo ngororamubiri bari kugenda bitonze, abasore bari mu muhanda wa kaburimbo usizemo imirongo y'imyeru birukanka cyane, bambaye amakabutura bose aciye.

Ni umusore uryamye ku gitanda gitoya bakoreraho imyitozo ngororamubiri, bigaragara yuko yari avuye mu myitozo umuganga umukurikirana akaba ari kumukorera masaje.

Umuganga wambaye itaburiye y'umweru, akaba anambaye na ga mu ntoki ziwe, afite ingofero isa umutuku. Ari mu cyumba gisize irange ry'umweru.

Icyapa gisa umweru gifite umurongo w'umukara utambika ukanamanuka, uri kwerekana uburyo ikiganza kivunika n'uburyo bagishyiraho bande.

Kwa muganga iyo bakiriye umurwayi akaba afite ububabare cyangwa uburibwe butatuma bamenya indwara ye mu gihe ari mu mutwe cyangwa mu nda bifashisha imashini zabugenewe mu kwerekana ishusho mu mubiri w'imbere mu muntu.

Mu gukora imyitozo ngororamubiri igihe cyose uri muri icyo gikorwa nyuma y'aho ugomba kwita ku buzima bwawe wifashishije imbuto zitanga zitanga amavitamine n'ibiryo bitera imbaraga.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri cyangwa siporo, yicaye hasi akaguru k'ibumoso karambuye ukuboko kw'iburyo guciye hejuru y'umutwe hanyuma ukw'ibumoso guciye munsi yose ahuriye kumano, ukuguru kw'iburyo guhiniye hagati y'amaguru.

Umusore wari uri mu myitozo ngororamubiri, ubwo abandi bayikora birukanka, abandi bakayikora baterura ibyuma, we yicaye hasi ari kugenda arambura amaguru.

Umusore bigaragara yuko akora imyitozo ngororamubiri, ubwo yari arimo yirukanka yageze mu gihe cyo kuruhuka, afite icupa ry'amazi ari kuyimenaho mu gahanga.

Amazi ni kimwe mu bintu bikoreshwa cyangwa bikenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi ni ingirakamaro kuko afasha kurinda impyiko. Umusaza uri mu myitozo ngororamubiri afite icupa ry'amazi ku munwa.

Ni ikirahure kiri ku meza kirimo amazi, hari ukuboko gufashe ijaga y'ikirahure nayo yari irimo amazi kuko ni nayo iri kuyasuka mu kirahure.

Ni byiza ko mu gihe uri mu myitozo ngororamubiri ugomba kuba ufite amazi mu gihe unaniwe ukayanywa. Umukobwa wari uri mu myitozo ngororamubiri bigaragara ko ananiwe akaba ageze mu gihe cyo kunywa amazi.

Ni umubyeyi wicaye ku buriri, iruhande rwe hari umwana mutoya, bose mu maso yabo biragaragara yuko bafite ibyishimo. Inyuma yabo hari ubundi buriri buriho umubyeyi.

Icyumba cyo kwa muganga bapimiraho abarwayi. Umuganga w'umugabo arahagaze wambaye itabuririya y'umweru, ari gusobanurira abandi bicaye bafite amakayi n'ikaramu bari kwandika.

Igikapu giteretse ku meza, gihuriyemo imiti y'ubwoko bwinshi, ikoreshwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri, bakunda kuyita ubutabazi bw'ibanze.

Imwe mu miti ikoreshwa mu bitaro, cyangwa se kwa muganga, iba igiye itandukanye. Gusa imyinshi uzayisanga iri mu ducupa ga z'abaganga.

Abantu babiri umwe wambaye ijiri y'umuhondo, igaragaza abatanga serivisi mu bari mu myitozo ngororamubiri. Ashyigatiye umwe mu bakoraga siporo, bigaragara ko yavunitse.

Umusore bigaragara ko yahoze ari mu myitozo ngororamubiri, aricaye, yambaye umupira w'amaboko maremare, ufite ingofero n'imashini, afite icupa ry'amazi ku munwa, ari kunywa.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri yicaye munsi y'igiti, aho izuba riri kurasira kuri icyo giti yambaye agakomo gasa icyatsi kuboko kw'iburyo afite amazi mu kuboko kw'ibumoso ari kunywa.

Umusore w'ibigango bigaragara yuko amaze umwanya munini ari mu myitozo ngororamubiri, arahagaze ari kunywa amazi, yambaye isengeri arararamye ari kureba mu kirere.

Umukobwa mutoya uri mu myitozo ngororamubiri, yicaye mu buryo bw'abashinwa, ari kwigorora ukuboko kw'ibumoso, imbere yiwe hateretse icupa ry'amazi.

Ni umusore wari urimo ukora imyitozo ngororamubiri. Ageze mu gihe cyo kuruhuka aho ari kugenda agorora amaguru. Yambaye imyenda y'umukara, inkweto, amasogisi y'umweru.

Ni umusore bigaragara y'uko yari amaze umwanya munini mu myitozo ngororamubiri, yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso, ageze mu mwanya wo kuruhuka ari kugenda yigorora amaguru.

Ni umwana w'umukobwa, wicaye mu ntebe, wambaye umupira w'amabara ya gisirikare, yambaye ipantaro isa ubururu bwijimye, bamushyize icyuma ku kuguru, umuganga arahagaze ari kumureberera.

Igitsina gore kivuye mu myitozo ngororamubiri, bigaragara ko yari ananiwe, arimo arikorera masaje akoresheje ishashi ikonje, yambaye impeta ku rutoki y'umuntu wasezeranye.

Urubuga rwemewe mu Rwanda hose ruhagarariye abakora imyitozo ngororamubiri mu marushanwa yo gusiganwa birukanka n'amaguru. Ni urubuga rwa federasiyo y'abanyarwanda.

Ni umukobwa mutoya, bigaragara yuko yari ari mu myitozo ngororamubiri, akaba yamazemo igihe kinini, ageze mu gihe cyo gusoza, ari gukora icyo bita kwigorora.

Imiti yagenewe abantu bakora imyitozo ngororamubiri, iteretse ku meza hari iri mu macupa, hari n'indi igiye ifunze mu mashashi afite ibara ry'ubururu.

Umusore bigaragara y'uko yari ari mu myitozo ngororamubiri, akaba yageze mu gihe cyo kuruhuka, afite icupa ry'amazi ku munwa, ari kuyanywa, afite n'iyumvikanishamiziki.

Umugabo uri mu muhanda ukunze kwitwa kaburimbo mu gisate kimwe, yunamye afashewe ku ivi bigaragara ko afite imvune yambaye isaha y'umukara ku kuboko kw'ibumoso.

Ni mu cyumba cyo ku bitaro, aho umuganga wambaye itaburiya isa umweru afashe umwana uryamye hasi, iruhande rwe hari umuzungu ufashe uruhinja amaboko.

Imeza igiye ihuriyeho imbuto zigiye zitandukanye amaronji, imineke ,pome ,cokombure hariho n'ibyuma byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Imikino njya rugamba yose n'iteramakofe, bagira bande bazirika ku maboko yabo cyangwa ku ntoki mu buryo bwo kurinda ikiganza, mbere y'uko bambara ga z'iteramakofe, umukinnyi uri kuzirikwa bande ku kiganza.

Umugore w'umuzungu wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umuhondo, afite imbago arikugenderamo zifite amapine, imbere ye hari umugabo ufite umupira w'amaguru mu ntoki, yambaye ikabutura isa umukara.

Umuganga kabuhariwe mu buvuzi bwa siporo, ntahantu atandukaniye n'abaganga bavura indwara zindi, yambaye ishati cyangwa itaburiye isa umweru, afashe ku ivi ry'umurwayi.

Siporo ngororamubiri, ni bimwe mu bifasha umubiri w'umuntu mu kugira ubuzima buzira umuze n'imitsi bigatembereza amaraso neza. Umukobwa wambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, ari ku mazi.

Igitoki ni kimwe mu biribwa bikungahaye mu gutera imbaraga umubiri w'umuntu akaba n'ikiribwa gihuriweho n'abantu n'inyamaswa zikaba zikirya.

Igikakarubamba ntabwo ari kirabyo mu busitani gusa kuko mu buvuzi bwa gakondo kifashishwa mu gukoreshwa nk'umuti kandi mu buryo butandukanye ivura uruhu.

Imiti ya gakondo, ikoreshwa cyane cyane mu gihe abantu bayikuye mu ishyamba, aho iba yarimejeje. Hari n'abandi bayitera mu ngo zabo ishashi irimo imiti ya gakondo yacishijwe mu nganda igafunikwa.

Ni imeza igiye iteretseho imiti yo mu buvuzi bwa gakondo igiye itandukanye. Ikaba iri no mu macupa y'amabara atandukanye n'ubwoko butandukanye, amwe asa umweru irindi risa umuhondo n'umukara.

Ni ibimera by'ubwoko bugiye butandukanye mu byimeza mu mashyamba cyangwa bikanaterwa n'abantu. Bimwe mu miti yo mu buvuzi bwa gakondo ikoreshwa.

Mu buvuzi gakondo ntabwo buri gihe dukoresha imiti y'ibyatsi imwe ikunda kuvugwa ko isharira, dukoresha n'imineke, inanasi, amashokora, tugakoresha n'ibyayi bigiye bitandukanye.

Ni ikarito, yifashishwa mu gushyiramo imiti yo mu buvuzi bwa gakondo, imwe iba yaragiye mu nganda igatunganywa, yamara gutunganywa igapakirwa mu ikarito.

Ni imiti yo mu buvuzi bwa gakondo igiye iri mu macupa atandukanye, amwe arasa icyatsi andi arirabura afite imifuniko y'umweru ari ku meza.

Imiti ya gakondo ntabwo buri gihe inyobwa ari ibyatsi gusa, kuko hari n'abayitwara mu nganda zibishinzwe zikayitunganya ikagaruka yashyizwe mu macupa yabigenewe. Umuti wa gakondo uri mu icupa ry'umweru.

Ni imiti yo mu buvuzi bwa gakondo iteretse hasi, iri mu macupa y'imyeru n'andi asa umuhondo n'udukarito twabigenewe gushyirwamo imiti.

Ni icyapa cyerekana imiti y'ubuvuzi bwa gakondo, ariko itari mu buryo bw'ibimera, ahubwo yacishijwe mu nganda igatunganywa ikaba isukika.

Imwe mu miti tuzi nka serumu kwa muganga batanga mu duhombo tuza tuzana amazi n'urushinge rwinjira mu mubiri. Hari serumu zikorwa, zigashyirwa mu ducupa, zikaza zimeze nk'amavuta.

Ipapayi ni rumwe mu rubuto ruhambaye mu kuryohera cyane gusa rukagira imbuto nyinshi, ariko ibirenze kuri ibyo ngibyo kuba ari ikiribwa ni n'urubuto rukorwamo imiti mu buryo bwa gakondo.

Igiti cy'umwembe kizwiho kwera imbuto nyinshi, cyane cyane mu gihe cyakuze. Izo mbuto ni imbuto ziryohera cyane zisa umuhondo mo imbere. Zizwiho gutanga ubuzima bwiza ku mubiri w'umuntu.

Ni ikimera kizwi mu miti y'ubuvuzi bwa gakondo, benshi bakizi ku izina ry'umuravumba, cyifashishwa mu kuvura indwara zo mu nda, gusa kizwiho ko gisharira.

Ni imiti yo mu buvuzi bwa gakondo yagiye ikorwa mu buryo bugezweho, ishyirwa mu macupa afite imifuniko y'umweru hejuru hariho ikirango cy'igisiga.

Ni imboga zakusanyijwe hamwe kugira ngo zitegurwe zize kuribwa kuko imboga ni zimwe mu zituma abantu amaso yabo ashobora kugira ubudahangarwa.

Ni ku meza iriho urubaho rubajije ushyizwemo ibinini byinshi bifite byose ibara risa icyatsi, bimeze nk'ibinini by'umutwe.

Ni imiti yo mu buvuzi bwa gakondo yateretswe ku meza, imwe iri mukungo, harimo n'umuhini wo kuyisekura, ku ruhande hari icupa ry'ikirahure ririmo amavuta.

Ni amacupa abiri ateretse ku meza, rimwe risa umukara ku mutwe, irindi risa umuhondo, kumeza hasi hariho imyembe igiye iciyemo ibice bito.

Imiti yo mu buvuzi bwa gakondo igiye itandukanye, yahurijwe hamwe kugira ngo ishyirwe mu kungo, ubundi isekurwe kugira ngo ivemo imvange y'umuti.

Amacupa ari ku murongo ugiye urambuye, bisa nk'aho aya macupa yose ari ubwoko bumwe. Harimo imiti y'ubuvuzi bwa gakondo, yagiye itunganyirizwa mu nganda igashyirwamo.

Icyumba cyagenewe kubikamo imiti yo mu buvuzi bwa gakondo. Yagiye ikorwa mu buryo bw'amafu. Amacupa amwe afite imifuniko y'umuhondo, andi afite imifuniko itukura.

Akabati kagenewe kubikwamo imiti y'ubuvuzi bwa gakondo iva mu byatsi, harimo amacupa menshi agiye atandukanye amwe afite imifuniko y'umuhondo andi asa umukara.

Ni ikimera bigaragara yuko cyaciwe mu ishyamba cyangwa se kikaba cyakuwe mu murima aho cyaba cyaratewe, gusa ni umuti wo mu buvuzi bwa gakondo.

Ni icyapa kiriho amacupa agiye atandukanye, amwe arasa ubururu bwijimye andi ararabagirana, ni imiti gakondo yacishijwe mu Nganda.

Ni igiti bigaragara yuko cyakurikiranwe neza kigaterwa. Mu gihe tumenyereye yuko ubundi mu buvuzi bwa gakondo, imiti igenda iboneka mu mashyamba atandukanye yarikujije.

Ni icyapa kiriho amacupa y'umweru, yashyizwemo imiti yo mu buvuzi bwa gakondo. Agiye apanze mu mirongo itatu, umwe hasi undi hagati undi hejuru.

Ntabwo igihe cyose vitamine tuzazikura mu biribwa twasaruye cyangwa mu biryo twavuye guhaha, hari na vitamine zicishwa mu ruganda zigakorwa zikaza mu buryo bugezweho mu makarito.

Ni ibimera byimejeje mu ishyamba, bizwiho ko byitwa ibitovu, birangwa no kugira amahwa ku ruhande, ariko ikirenze kuri ibyo byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Gaperi, ni igiti kera akaba ari kigufiya, kikazaho utubuto twinshi tugiye dufite ibara ry'umuhondo, utubuto turyohera cyane, ni umwe mu miti y'ubuvuzi bwa gakondo.

Ni icyumba cyagenewe kubikwamo imiti yagiye itunganywa yo mu bwoko butandukanye ya gakondo, ishyirwa mu macupa y'ibirahure, bimwe bifite imifuniko y'umweru ibindi isa umutuku.

Icyumba gihuriyemo imiti y'ubuvuzi gakondo, etajeri irimo amacupa afite imifuniko y'ubururu, umuganga yambaye ishati y'amaboko maremare afite icupa mu ntoki.

Isahani iteretse ku meza iriho imiti ikaba inariho imbuto z'amaronji, icupa risa umweru rifite ikirango, kiriho umurongo usa ubururu.

Si ngombwa ko buri gihe uko ugiye gufata imiti ufata imiti igezweho, no mu buvuzi bwa gakondo hari imiti igenda igatunganyirizwa mu nganda ikagaruka imeze neza iri mu macupa yabigenewe, icupa ry'umweru inyuma hari amaronji ku isahani.

Ni icyapa gisa umweru hasi no hejuru, kiriho akabuni n'amacupa y'imiti yo mu bwoko bwa gakondo, yacishijwe mu nganda igashyirwamo.

Ni ikimera cyatewe mu karima k'igikoni, gisa nk'icyayi cyagiye gisasirwa ku ruhande ibyatsi mu buryo bwa kinyarwanda iyo turi guhinga tugenda dusasira ibihingwa.

Ubuvuzi gakondo ni bumwe mu bukoresha ibikoresho bitandukanye n'iby'ubuvuzi bugezweho, harimo ibicuma, utubindi, ibyungo n'amacupa arimo imiti ikozwe mu byatsi.

Ni igikarito, cyagenewe kubikwamo icyayi, cyavuye mu murima kikajyanwa mu nganda, kigatunganywa neza kugira ngo kigaruke ku isoko.

Igiti kitari kirekire gifite amashami wabasha kubara, urebye neza n'amashami atanu, inyuma yaho hari ibindi biti byinshi n'icyatsi.

Ni icyapa gifite ibara ry'umweru, hagati harimo ikirango gifite ibara ry'icyatsi, Akagera ni ikigo gitanga ubuvuzi ku bantu bose.

Umuti wakozwe wo mu buvuzi bwa gakondo, ugatunganywa uvuye mu ruganda, ugashyirwa mu icupa ry'umweru, rifite ikirango gifite imirongo y'ubururu.

Ni umugore uri kumwe n'umugabo bahagaze mu biti, umugore yambaye igitambaro mu mutwe n'umupira w'amaboko maremare, umugabo uri ku ruhande rw'iburyo yambaye umupira utukura n'ikote ryirabura.

Mu buvuzi bwa gakondo ni ubuvuzi bwifashishwa mu gukora imiti yo kunywa cyangwa se akaba ari n'imiti yo gutapfuna mu yindi mvugo guhekenya, iyi ni imiti yacishijwe mu ruganda ishyirwa mu kabuni n'iy'amazi.